Inyandiko yamamaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Radianti, hariho nimero za telefone umuntu yahamagaraho, hashushanyijeho umuntu bicaye bari gupfuka, hananditseho ngo gura ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri butangwa na Radiant yacu.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi, imodoka irimo umukobwa ucishije umutwe mu kirahure uri guseka, handitseho cya gihe uba wuzuye ibyishimo n'umutuzo, hariho nimero za telefone n'izindi mbuga nkoranyambaga bakoresha.

Imodoka nyinshi ziri kugenda zisa umweru, umutuku, hari n'isa umukara, amatara ayobora ibinyabiziga, hari icyapa, amatara yo ku muhanda, inyubako ndende, ibiti.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda hariho nimero za telefone ushobora guhamagara uburyo bwo gukanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego bakagufasha handitseho ngo turikumwe ashushanyijeho umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana babiri

Inyubako ndende ifite imiryango myinshi yubakishijwe amatafari ahiye ibirahure byijimye imodoka ziparitse icyapa kinini cyanditseho amagambo kiriho umukobwa.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwacyo hari icyuma kiriho itara, icyapa kinini cyanditseho amagambo, gishushanyijeho imodoka irimo abantu babiri, inyuma ahashyirwa imizigo, ibiti biri hirya ku ruhande.

Inyandiko igaragaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Buritamu, hariho umuntu ufite umukasi uri gukata umwenda, kiragaragaza kuramba na Buritamu ku muntu ufite ubwishingizi bwo kwivuza ko aba yizeye umutekano ku buzima bwe.

Inyandiko yamamaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Radiyanti, hariho nimero za terefone, hashushanyijeho umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana babiri, handitseho ngo: "Turi kumwe gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango, ukanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego."

Icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi, kigaragaza ko no mu gihe k'izabukuru bakugoboka hariho nimero za telefone, hashushanyijeho umusaza wambaye ishati ijya gusa umweru afite inkoni mu ntoki ze.

Inyandiko yamamaza ikigo cy'ubwishingizi, hariho umukobwa wambaye amadarubindi, ufite telefone mu ntoki, handitseho amagambo avuga ngo wihangayika, ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka, igihe cyose aho uri hose.

Urubuga ngendanwa rw'ishami rya banki rukoreshwa mu kwishyura amazi, umurimo, kugura amayinite, kohereza amafaranga kuri telefoni ndetse no ku zindi konti za banki.

Ibitenge byinshi bifite amabara atandukanye, hejuru hari ibifite ibara risa umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku, hasi na ho hari ibindi byinshi bizinze.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye y'abagore n'iy'abakobwa, harimo amapantaro, amashakoshi, inkweto, hirya hari umugore wicaye ucururizamo, mudasobwa iteretse hejuru ku kabati.

Isoko ricuruza imyenda y'abagore amakanzu, amajipo ndetse n'ibindi hari igishushanyo bifashisha bashyiraho imyenda, ameza ateretseho imikufi ndetse n'udukomo n'kirahure kinini kiri kugaragaramo abantu.

Inkweto z'ubwoko butandukanye, izifunze, iz'abagabo, izikozwe mu ruhu ndetse n'izindi zikozwe mu mwenda usanzwe, hari inkweto kandi ndende z'abagore.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore, abakobwa ndetse n'iy'abagabo, hari imanitse mu tubati, hari no hasi munsi y'ameza, hirya hari abantu babiri bahari.

Iduka ricuruza imyenda, hari imipira imanitse hari usa ubururu w'umuhondo, ujya gusa umweru, usa umutuku n'andi mabara, hejuru hari inkweto zihamanitse.

Umukobwa uhagaze wambaye umugozi mu ijosi uriho imfunguzo, inyuma ye hari akabati karimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, amata, amasabune, amavuta, ndetse n'ibindi bikoresho.

Igikoresho kifashishwa bambika imyenda, kugira ngo igurwe, utubati turimo imyenda y'ubwoko butandukanye, n'amashakoshi y'abagore, umusore uri ku ruhande ufite urukweto mu ntoki ndetse n'izindi nkweto ziri hasi.

Umugore w'umuzungu ukorera mu iduka afite telefone mu ntoki ze ari kuyiha umusore w'umukiriya umuri imbere, ku ruhande hari mudasobwa iteretse ku meza hirya hari imyambaro y'ubwoko butandukanye n'amakarito ateretse ku tubati.

Abantu bahagaze abasore babiri n'umusaza umwe ndetse n'umukobwa ufite igishushanyo cy'urufunguzo rw'imodoka mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ebyiri zihaparitse hari n'inzu.

Abagabo babiri umwe wambaye ingofero bari guhererekanya igishushanyo kigaragaza urufunguzo, iruhande rwabo hari imodoka y'ikamyo ikoreshwa mu gutwara imizigo, hirya hari umugabo uri gutambuka ibiti n'inyubako.

Inyubako icururizwamo imodoka, hanze hari abantu babiri bafite igishushanyo gikozwe nk'urufunguzo, inyuma hari imodoka isa umukara, amatara ari kwaka, ku ruhande haparitse indi modoka.

Iduka ricuruza imodoka zo mu bwoko bwa Hyundai, hari iziparitse nyinshi, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, inyuma hari iyindi nyubako ndende ihari ndetse n'ibiti.

Abagabo babiri bahagaze iruhande rw'imodoka, bari guhererekanya igikoresho gikozwe nk'urufunguzo, umwe afite telefone n'ibahasha n'imfunguzo mu ntoki, iruhande hari izindi modoka ziparitse hari n'inzu.

Imodoka ebyiri nini za sosiyete yitwa volukano, ifasha mu gutwara abantu ndetse n'ibintu byabo.

Inote ebyiri z'ibihumbi bitanu ni amafaranga yakoreshwaga kera mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani, hamwe hashushanyijeho insina iriho ibitoki, ahandi hejuru yashushanyijeho umugore wikoreye igiseke, ku ruhande hari abana.

Umugabo uhagaze wambaye amadarubindi n'ikarita y'akazi imuranga, afite amafaranga mu ntoki, imbere ye hari imashini ikoreshwa mu kuyabara na mudasobwa.

Igiceri cyakoreshwaga kera mu Rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, hashushanyijeho ikirangantego kigaragaza insina iriho igitoki.

Abakozi babiri bakorera ishami rya banki ya Kigali b'abakobwa, imbere yabo ku meza hari mudasobwa n'imashini isohora impapuro, hirya ku gikuta hari icyapa kinini.

Abantu babiri bicaye umwe n'umukozi uhakorera, n'umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati, imbere ye hari mudasobwa, imashini isohora impapuro; inyuma ku gikuta hari icyapa.

Iduka ricuruza amata y'Inyange, abakozi babiri bakoreramo b'abakobwa bose bambaye ingofero, umwe yambaye agapira n'isaha ku kuboko, undi yambaye itaburiya isa umweru, imbere ye hari umukobwa uhagaze wambaye ingofero n'umugabo.

Iduka ricuruza amata n'ibiyakomokamo hari umuntu wicaye hirya ku ntebe y'ubururu, firigo, akabati karimo ji z'ubwoko butandukanye, hari undi mugore wicaye, ameza ateretseho impapuro zisukura.

Iduka ricuruza amata, hari umukobwa urimo uhagaze uhetse igikapu ufite terefone mu ntoki. Ameza ariho igitabo intebe, umutaka n'ibindi bikoresho hari igicuba kinini kirimo amata.

Iduka ricuruza amata y'Inyange, hari imashini iyatunganya, intebe iticayemo umuntu, akabati kari hirya karimo ji ziri mu bikarito, utubido dutatu tuvamo amata, amakarito ateretse hasi.

Ameza asa umweru ateretseho agakoresho gakozwe muri pulasitike, harimo amagi atatu n'agacupa, hari n'akandi kari kuri ayo meza.

Umusore ufite ambaraje mu ntoki, iruhande hari abana babiri b'abahungu, imbere hari umukobwa ucururiza muri iryo duka afite terefone mu ntoki; akabati gateretseho akabido karimo amata, ku ruhande hari amacupa bashyiramo amazi, hari ijerekani iri iruhande rw'icyuma gitunganya amata.

Ameza, utubati, akantu gakozwe nk'ameza gakoreshejwe amakaro, imashini nini, insinga zayo zifashe ku gikuta ku kandi kamashini gato.

Isahane nini iriho isambusa zirenga icumi iteretse ku meza manini ku ruhande hari izindi sambusa ziteretseho.

Abantu bari mu iduka ricuruza amata hari abasore babiri bari ku ruhande bafite ibirahuri birimo amata y'inshyushyu, hirya ku ruhande hari abandi bantu nk'umukozi ukoreramo akabati karimo utubido, ameza asa umweru.

Iduka ricuruza amata y'inyange, mo imbere hari imashini iyatunganya, hasi hateretse injerekani y'umweru, n'indobo, ameza n'intebe iticayeho abantu, ku gikuta hariho icyapa kinini cyanditseho amagambo.

Icyapa kiriho ikiganza cy'umuntu ufite telefone mu ntoki ze, hariho uburyo bukoreshwa n'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda ku birebana n'imikoreshereze y'amafaranga.

Urubuga rukoreshwa mu bintu bitandukanye bikubiyemo kwishyura amazi, umuriro, kugura amayinite, kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga no kohereza.

Urubuga ruriho uburyo bwo kohereza amafaranga, aho hari kugaragaraho gushyiramo umubare ukemeza cyangwa gusubira inyuma, hepfo hagaragaraho kohereza cyangwa guhagarika.

Urubuga rukoreshwa mu kugura ibintu bitandukanye hakubiyemo n'ifatabuguzi rya tereviziyo, hari kugaragaraho uburyo bwo kwishyura ifatabuguzi, aho ushyiramo nimero ndetse n'amafaranga.

Telefoni iriho imyirondoro y'umuntu uri gukoresha urubuga rufasha mu kohereza, mu kubitsa, kugura amayinite, kwishyura amazi n'ibindi bintu bitandukanye.

Icyapa cyamamazwa n'ikigo gifasha abantu ukwizigamira muri gahunda ya twizigamire, tugurizwe dutere imbere hari, ibiganza bishushanyijeho bifite telefoni, biri kohererezanya amafaranga.

Inyandiko y'ishami rya banki rikorera muri Ngoma iriho imyirondoro y'uwitwa Jannette Nduwimana iragaragaraho ibikorwa yakoresheje konti ye.

Inyandiko y'ishami rya banki, rikorera Kimihurura muri Gasabo, iriho imyirondoro y'umukiriya witwa Murora Rose igaragaza ibyakorewe kuri konti ye.

Inyandiko y'ishami rya banki ikorera muri Kigali igaragaza uko umukiriya wayo witwa Esiperanse Mukankusi yakoresheje amafaranga ari kuri konti ye.

Inyandiko y'ikigo cy'imisoro n'amahoro, igaragaraho ikigo cya Ameki koro igaragaza ko nta mwenda w'imisoro ifite igomba kwishyura.

Inyandiko y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaraho amazina y'uwitwa Ishyirahamwe Gregoire igaragaza ko yishyuye imisoro y'ibihumbi mirongo itanu na birindwi.

Inyandiko igaragaza ibyo ikigo cya Ameki Color cyakoresheje konti yacyo ifite muri banki ya Kigali, iragaragaraho ibikorwa bitandukanye byakozwe.

Umuntu wambaye ikote risa umukara ufite amafaranga mu ntoki amadolari akoreshwa mu bihugu by'amahanga inyubako itangirwamo serivisi zo kuvunjisha amafaranga.

Hirya hari ibiganza bibiri by'umuntu ufite inoti nyinshi z'amadolari, amafaranga akoreshwa mu bihugu by'amahanga. Ku meza haba hateretse izindi noti z'amadolari magana abiri, agacupa karimo umuti, imashini yifashishwa mu guteranya imibare.

Ibiganza by'abantu babiri bari guhererekanya amafaranga y'amadolari akoreshwa mu kindi gihugu, ameza ateretseho ibindi bintu.

Inyandiko igaragaza uko ibiciro by'ivunjisha byari bihagaze ku itariki cumi neshanu z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, hariho ibihugu ndetse n'uburyo amafaranga ari kugurishwamo.

Inyandiko igaragaza uko ibiciro by'ivunjisha bihagaze yakozwe ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yo mu bihugu bitandukanye, harimo amadorari akoreshwa muri Amerika, amayero, amapawundi ndetse n'andi mafaranga akoreshwa mu bihugu bitandukanye.

Abantu bahagaze bamwe bari mu muryango, abandi barimo imbere, ni abazungu bari mu nyubako itangirwamo serivisi zo kuvunjisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye.

Inyubako isize irangi rijya gusa nk'ivu, handitseho amagambo agaragaza ko hatangirwa serivisi zirebana no kuvunjisha amafaranga, hirya hari iyindi nzu isize irangi ku gikuta risa umuhondo.

Umugabo uhagaze wambaye agapira karimo imirongo, abandi bantu batatu hari umukobwa wicaye, umusore uhagaze iruhande rwe hari umuntu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo umuryango ufunguye ameza ariho mudasobwa.

Ibiro bifunze bitanga serivisi zo kuvunjisha amafaranga ku muryango hariho ibipirizo biri mu ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Ibiro bitangirwamo serivisi zo kuvunjisha amafaranga hicayemo umugabo w'umuzungu, inyuma ye hari televiziyo iri kwaka, ku ruhande rwo hirya hari imashini zifasha mu kubikuza amafaranga hakoreshejwe ikarita.

Inyubako ndende igeretse kabiri hejuru hari idirishya rifunguye, iruhande rwaryo hari icyapa cyanditseho muhobura, munsi hakorerwamo ibindi bintu birebana no kuvunjisha amafaranga.

Inyubako ikorerwamo serivisi zo kuvunjisha amafaranga, kohereza mu Bihugu bitandukanye ndetse no kubikuza, hanze hari imashini ikoreshwa mu kubikuza amafaranga hifashishijwe ikarita.

Inzu ifite amadirishya n'inzugi zisize irangi ry'umweru ifite amakaro hanze hari ameza n'intebe zigera kuri esheshatu.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu nzu hari ameza manini, n'ameza mato agera kuri atatu, intebe zikozwe mu buryo butandukanye zifite imisego, imiryango ifunze ifite ibirahuri byijimye.

Intebe ebyiri zirimo imisego, ameza mato ariho igitabo n'igikombe, umutako urimo ururabyo, amafoto abiri amanitse ku rukuta icya ruguru nk'icyo hepfo, idirishya rifunguye ririmo amarido.

Intebe esheshatu zibaje mu giti gikikije ameza ateretseho amavase abiri arimo indabo z'ubwoko butandukanye, hirya hari izindi ntebe n'andi meza.

Intebe esheshatu zibajwe mu biti, zikikije ameza akozwe mu birarahure. Ateretseho ibirahure byo kunyweramo amazi, akabati kari hirya, hejuru hateretseho ikintu gikozwe nk'igisorori.

Inyubako ndende, ni hoteri yitwa ibihumbi bibiri itanga amacumbi, haberamo kandi inama, ku rundi ruhande hari izindi nyubako, ibiti, amatara yo ku muhanda.

Inyubako ndende ni hoteli itanga amacumbi yo kuraramo, haberamo inama n'ibindi bintu bitandukanye, hanze ku muhanda hari amatara ari kwaka, ibiti, ubusitani buteyemo indabo.

Inyubako ndende ifite ibyumba byinshi, hanze hasi hari intebe n'ameza nta bantu bicayeho, ku ruhande hirya hari umuntu uhari.

Intebe zitondeganyije ku murongo ziticayeho abantu, ameza ateretseho ibirahure birimo ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, akabati gateretsemo amacupa y'inzoga.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye iriho amategura, hasi hari ubusitani buteyemo indabo, hari ibiti, imodoka ebyiri ziparitse.

Inyubako yubatswe mu buryo bugeretse ifite ibirahure byijimye, hari ubwogero rusange, aho kwicara, ubusitani ndetse n'ibiti.

Intebe ziticayemo abantu, zifite imisego ku ruhande, hari amavaze arimo ibiti by'ubwoko butandukanye, inyubako ifunguye irimo intebe n'utubati.

Umugore uri kugenda ufite agasakoshi mu ntoki, ku ruhande hari icyapa ku nyubako ikorerwamo imirimo yo kugorora umubiri, hirya hari amasikariye ajya ku yindi nyubako.

Ibiro by'ikigo gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi, harimo ameza matoya intebe ebyiri, ameza manini ariho itara ricomekwa, hariho insinga n'ibindi.

Ibiro bikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Britam, hari impapuro zirambitse hejuru ku kabati, ibitabo, ku gikuta urupapuro rwometseho, umuryango ufunguye.

Icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, handitseho ngo isezerano ni isezerano, hari umuntu uzamuye ukuboko kwambaye umupira usa umukara, ku gikuta hari ikindi gipapuro kimanitseho gishushanyijeho ibintu.

Inyubako ndende hejuru hari umuryango ufunze ukozwe mu birarahure kuruhande hari inkingi eshatu zisize irangi risa umweru munsi hakoramo umuryango w'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Prime hari n'ibyapa byanditseho iryo zina n'insinga z'amashanyarazi n'ibiti.

Abakozi bakora mu kigo gitanga ubwishingizi, ab'abakobwa, abasore bose bambaye udupfukamu, ameza ariho mudasobwa, umuti usukura mu ntoki, telefone.

Inyubako ndende ku ruhande rwo munsi hakoreramo ikigo cy'ubwishingizi, ku muryango hari umuntu uri gusohoka, undi musore uhagaze uri kuvugira kuri telefone.

Ibiro bikoreramo ikigo cy'ubwishingizi bikorera mu Rwanda, ku miryango hagiye hariho ibyapa, imbere hari umuryango ufunguye harimo intebe, hasi inyubako yubakishijwe amakaro.

Inyubako ikoreramo ishami ritanga ubwishingizi mu Rwanda imiryango irafunze, amatara ari kwaka hanze hari amashyamba.

Inyubako ndende ikorerwamo ibintu bitandukanye, hari ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi, ku ruhande hari ivuriro, munsi hari ishami rya banki, hari abantu bahagaze n'undi mugabo wicaye.

Inzu umuryango urafunguye utangirwamo serivisi zitandukanye zikubiyemo iz'irembo kwishyura imisoro kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye kwishyura umuriro gufotoza impapuro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inyubako ndende ikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi, handitseho amazina, hasi hari imodoka ebyiri ziparitse, mo mu imbere amatara ari kwaka.

Ishami ry'ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda cyitwa sorasi, riherereye ku kinamba umuryango urafunguye ku ruhande hose hariho ibyapa, hari n'igishushanyijeho inka.

Ibiro bikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Sanlam, umuzungu ubanza, hirya hari abandi bantu b'abagore, ameza ariho mudasobwa imbere ya buri muntu, inyuma hari icyapa cyanditseho amagambo.

Abasore babiri bahagaze umwe ku ruhande rumwe n'undi ku rundi icyapa cyanditseho amagambo, ibipirizo, ameza ariho uducupa twinshi tw'amazi, agakoresho kari hasi kifashishwa mu gushyiramo imyanda, abandi bantu bicaye bambaye udupfukawa, intebe na mudasobwa.

Icyapa cyamamaza ishami rya banki ryitwa Ekwiti, handitseho amagambo agaragaza ko batanga ubwishingizi, hashushanyijeho imodoka ndetse n'umukobwa uyihagaze iruhande.

inyandiko yamamaza ishami rya banki ikorera mu rwanda igaragaza ko bashobora gutanga inguzanyo nka miliyoni mirongo ine hariho umusore wambaye agapira kajya gusa umutuku n'itaburiya isa umukara.

Abakobwa bahagaze bambaye imikenyero iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, agapira gasa oranje n'akandi kantu bambaye mu mutwe, hirya ku ruhande hari umugabo uhagaze n'undi ushinzwe umutekano, imodoka iparitse n'inyubako ikoreramo ishami rya banki.

Abantu benshi hari bane bicaye, harimo n'umugore umwe, n'undi muntu uhagaze nk'umugabo, bose bambaye udupfukamunwa, ameza ariho icupa ry'amazi, mudasobwa, karindari, icupa ririmo umuti usukura mu ntoki, telefone n'ibitabo.

Icyapa cyamamaza ishami rya banki, kiriho umusore wambaye itaburiya uri guseka, afite isahane nini iriho igikombe, hariho kandi umukobwa wicaye.

isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye bikubiyemo; inyanya, amashu, imiteja, puwavuro, amakaroni, amavuta, ibirungo hicayemo umugore.

Iduka ricuruza imitako y'ubwoko butandukanye, hari ikozwe mu masaro, amaherena, ibyibo, imyenda imanitse, amakabutura adozwe mu bitenge.

Inyubako ndende ikoreramo isoko, hari imiryango icuruza imikufi n'indi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, amatara yo ku muhanda, ibyapa, ibiti.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye by'ibiribwa inyanya, amashu, kaboti n'izindi mboga z'ubwoko butandukanye, hari abagore bicaye umwe wambaye igitenge, iruhande rwe hari ufite umutaka, hirya hari abandi bantu, harimo n'ufite ibasi.

Isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye birimo; wotameroni, imineke, imyembe, amaronji, indimu, ibinyomoro, abantu bakoreramo ndetse n'abakiriya.

Umugore wicaye wipfumbase yambaye agatambaro mu ijosi, imbere ye hateretse ibishyimbo ku nkoko, avoka, ku ruhande hari imineke, inanasi, amacunga, ibinyomoro n'amapapayi.

Abantu benshi bari mu isoko abagore ndetse n'abandi bantu batandukanye, ameza ariho utubase turimo inyanya, intoryi, imiteja, karoti, puwavu, ibitunguru ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Abantu benshi bari mu isoko, hari abari hanze, hari n'abari hejuru mu nyubako ndende, hari icyapa kinini insinga z'amashanyarazi.

Umukobwa uhagaze wambaye ingofero mu mutwe ufite umwenda mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo usa nk'uwunamye, ameza ariho impapuro z'isuku n'ibindi bintu bitandukanye, imyenda myinshi, hirya hamanitse ibikapu hari n'abandi bantu bahagaze.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, hari ibitoki byinshi biteretse hasi, imbuto, abantu bahagaze, abasore bari ku ruhande ndetse n'abandi bantu bari imbere bari guhaha.

Abantu bari mu isoko ricuruza ibintu bitandukanye birimo nk'inkweto ziri mu tubati, hari abasore bahagaze, hirya ku ruhande hari abandi bantu, hari umukobwa wicaye wambaye umupira usa umuhondo.

Isoko rinini ryubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhande rwahariwe gutekwaho ibicuruzwa birambuye, abantu babiri bari kugenda, hakurya hari ishyamba n'amazu.

Amaduka acuruza ibintu bifunze mu mufuka, imiceri ndetse n'amasukari, hanze ku muryango umwe hicaye umugabo wambaye isarubeti, hari undi uri gutambuka, abandi bagabo babiri bahagaze, hirya ku wundi muryango hari umugore uhari.

Abantu bari mu isoko, hari umugore wicaye, wambaye amadarubindi, iruhande rwe hari abantu babiri bahagaze, hirya hari umugabo wicaye, imbere ye hari ibitoki, inyuma hirya hari utubati duhari.

Iduka ricuruza imyambaro y'abadamu ndetse n'iy'abana, intebe irambitseho ibintu, umuryango ufunguye, harimo imyenda n'indi ntebe, hanze hari umukobwa wicaye n'undi muntu uhagaze imbere ye, hirya hari abandi bantu bahari.

Imodoka nyinshi ziparitse, harimo imwe yicayemo umugore wambaye amadarubindi, ari nawe utwaye, akana kari gutambuka, isoko ricuruza ibintu bitandukanye, hirya hari imitaka iri mu ibara ry'umuhondo.

Isoko ricuruza imyenda y'abagore y'ibitenge, amashati, hari n'imipira ndetse n'imyenda y'ubwoko butandukanye. Hari abagore badoda, imbere yabo kuri buri wese hari imashini. Hirya hari abandi bantu bahagaze.

Inyubako ikoreramo ishami ry'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda MTN, hari umusore wicaye wambaye ikarita imuranga y'akazi, imbere ye hahagaze abantu babiri, hirya hari umukobwa uhari ndetse n'umusore uhagaze, ibyapa byanditseho MTN.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo, gakoreramo ishami ry'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, inyuma hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, inzu n'ibiti.

Umugore uhagaze iruhande rwe hari undi mukobwa wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu ni umukozi ukorera muri iryo soko imbere ye hicaye undi mukobwa kuruhande hari firigo irimo ibyo kunywa n'utubati turimo ibicuruzwa.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo k'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, iruhande rwako hari abakiriya bahagaze abagabo babiri n'abagore batatu bari ku rundi ruhande, inyuma hari ibiti, imodoka ziparitse, amazu, indabo n'abasore babiri bari kugenda.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo k'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, gatangirwamo serivisi zirebana no kubitsa no kubikuza amafaranga, iruhande rwako hahagaze abasore babiri, umwe ahetse igikapu, ku ruhande hari ibiti n'akandi kazu.

Umusore wambaye umupira urimo imirongo, afite ikaramu mu ntoki ari kwandika, hari terefone iteretse ku ikayi, imbere ye hari umukobwa uhari, hirya ku ruhande hari imodoka ziri kugenda mu muhanda.

Akazu gato kari mu ibara ry'umutuku k'ikigo cy'umuyobo mugari w'itumanaho mu Rwanda, gatangirwamo ubufasha ku birebana no guhamagara, kwishyura no kubitsa amafaranga, hirya hari amazu ahari, ibiti, ku ruhande hari ahantu hateretse agacupa k'amazi.

Umukobwa wambaye umupira usa umuhondo, amadarubindi hejuru ku mutwe, ufite indangururamajwi, inyuma hari abandi bantu bicaye nabo bambaye imipira isa umuhondo, hari icyapa gishushanyijeho abantu babiri, umusore n'umukobwa, inyuma hari insina z'ibitoki.

Abantu bahagaze iruhande rw'umutaka uri mu ibara ry'umuhondo n'irisa ubururu hari umusaza uhagaze uri kwikora mu mutwe, umukobwa ufite agacupa k'umuhondo na terefone mu ntoki iruhande rwe hari umusore ufite ikayi nini.

Umusore wambaye agapfukamunwa gasa umuhondo n'umupira, afite telefone mu ntoki n'urupapuro, ari iruhande rw'umumotari hirya na ho hari abandi bantu babiri, umumotari n'umusore uri iruhande rwe, bose bambaye udupfukamunwa dusa umuhondo, inyuma hari ibiti, insina z'ibitoki, icyapa, hakurya hari amazu.

Umumotari inyuma kuri moto atwaye hariho igisanduku cyanditseho rashifudu, akoreshwa mu kugemura ibiryo ku bakiriya, iruhande rwe hahagaze umukozi ukorera ishami ry'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, hirya yabo hari umusore uri kuza, ibiti n'abandi bantu bari kugenda mu muhanda.

Urubuga rwitwa ''Murukari'' rukoreshwa mu gutumiza ibintu hakoreshejwe ikoranabuhanga, ruriho ameza ateretseho impano ifunze, n'utundi tuntu tumeze nk'indabo.

Inyubako ndende igeretse kabiri, hariho icyapa cyitwa ihaha ndetse na nimero za telefone, mu muryango hari umusore uhagaze, ku ruhande hariho amakarito, hasi hari imodoka ziparitse, moto, indabo n'ibindi bintu bitandukanye.

Urubuga rukoreshwa mu guhaha ibintu hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ushyiramo ibicuruzwa uguze ibyo aribyo, niba byinjiye cyangwa bisohotse ndetse n'amerekezo y'igihugu.

Umugabo uhagaze iruhande rwa moto inyuma hariho igisanduku, ni umukozi ukorera ikigo cyifashishwa mu kugezaho abantu ibintu baba batumije hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Urubuga rucuruza ibintu bitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga, bikubiyemo ibikoresho by'ubwiza, imisatsi y'abadamu, imikufi yo ku kuboko, ku gutwi ndetse no mu ijosi n'ibindi bintu bitandukanye, haba hariho n'ibiciro by'amafaranga.

Urubuga rw'Irembo aho umuntu ashobora gushaka serivisi zirimo izo kubona ibyemezo bitandukanye, icy'uko umuntu ari ingaragu, serivisi z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi, icyemezo cyo kuba umuntu atishoboye yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane ndetse n'ibindi byangombwa.

Imodoka iparitse isa umutuku, inyuma hari icyapa cyometseho cy'isoko bahahiraho bakoresheje ikoranabuhanga, hariho nimero za telefoni umuntu ashobora guhamagaraho n'izindi mbuga nkoranyambaga bakoresha. Imbere hari amavaze ateretsemo indabo, akabido gasa umweru.

Urubuga rw'isoko ryitwa mu Rukari rikoreshwa mu gutumizaho ibiribwa by'ubwoko butandukanye, haba hariho n'igiciro cy'amafaranga, ukishyura ukoresheje telefone.

Urubuga rwitwa Kiku rukoreshwa mu kugura ibikoresho bitandukanye birimo inkweto z'abagabo, iz'abagore, imyambaro, ibikoresho birebana na telefoni by'ikoranabuhanga.

Urubuga rwitwa Jumiya rugurirwaho ibintu bitandukanye, harimo nk'imyenda y'abagore, hagaragaraho imyambaro itatu, ikanzu irimo amabara, amajipo abiri agiye afite udushati twayo.

Abantu babiri bahagaze, umugabo w'umuzungu ndetse n'umukobwa, intebe, ameza, izindi ntebe zifite imisego, amafoto afashe ku gikuta, akabati kometse ku gikuta gateretseho ivaze zirimo indabo.

Inzu yo guturamo yubatswe mu buryo bugezweho irimo amakaro, umwanya wo gushyiramo televiziyo iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kanombe igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali muri Kanombe, ifite amakaro mu nzu, ibirahure byijimye no hanze hakoze neza, igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni cumi n'eshanu.

Inyubako ifunguye ifite amakara mu nzu no hanze imbere y'umuryango yo guturamo igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda iherereye mu mujyi wa Kigali.

Inzu igurishwa amadorari igihumbi magana atatu mirongo itanu, iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, imbere harimo itapi irambuye hasi, idirishya rifunguye ku ruhande hariho amarido.

Inyubako ndende, ifite ibyumba byinshi, ikodeshwa, iherereye mu mujyi wa Kigali, aho imodoka ziparika, hari imodoka eshatu, kuruhande hari ibiti.

Inyubako yo kubamo yubatswe muburyo bugezweho, ifite amakaro mu nzu, ibyumba bine, ubwiherero butatu, irakodeshwa amafaranga y'u Rwanda, ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu igurishwa miliyoni ijana, iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kanombe yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibirahure byijimye mo imbere mu nzu n'iruhande rw'umuryango hari amakaro.

Inyubako ndende yo guturamo igeretse kabiri, amatara ari kwaka, iherereye Kibagabaga, ifite ubwiherero bubiri n'ibyumba byo kuraramo bibiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu.

Inyubako ndende yo kubamo, hanze hari amavaze ateyemo indabo, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ubwiherero bubiri, ikodeshwa amafaranga y'amadorari igihumbi ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye mu Mujyi wa Kigali muri Kicukiro, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo n'ubwiherero bumwe, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ku kwezi, hejuru ifite ibigega bitatu by'amazi.

Inzu yo guturamo ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kanombe, ifite ibyumba byo kuraramo bine n'ubwiherero butatu, ku mafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Umuryango ufunze hariho icyapa kigaragaza ibihakorerwa, birimo ubukerarugendo, kugurisha ibibanza ndetse n'ibirebana n'ibikorwa by'ubwubatsi, hariho iminsi bakoreraho n'amasaha.

Inyubako ndende ifite ibyumba byo kuraramo, ijoro rimwe ni amadolari ijana na mirongo itanu, naho ku kwezi ni amadolari igihumbi magana inani wongeyeho n'ubwogero rusange. Hanze hari ubusitani buteyemo indabo n'ibiti.

Inzu yo kubamo ikodeshwa, ifite icyumba kimwe, yegereye umuhanda, iherereye i Remera iruhande rwa sitade, hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Inzu iri yonyine ifite amakaro mu nzu no hanze, amavase arimo indabo n'ubusitani, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Inyubako igurishwa iherereye i Kanombe, ni nshyashya yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amakaro, hasi hari utubuye duteyemo indabo.

Ameza ari hanze, mu muryango hari umusore uhagaze, intebe, akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye, ibiti, hirya hari icyapa kinini cyanditseho Sawa siti.

Inyubako ndende ifite ibirahure byijimye, munsi hakorerwamo imirimo y'ubucuruzi, hari imyenda, umuntu w'umukobwa uri gutambuka n'undi musore uhagaze.

Iduka ricuruza imyenda y'abantu bakuru ndetse n'iy'abana, amakanzu, amajipo ndetse n'amashati, harimo abantu batatu b'abagore bari kureba imyenda.

Isoko rinini ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'imyambaro, ifitemo amadarage azamuka ajya hejuru, abantu babiri bahagaze, umusore n'umukobwa, inyuma hari umugore uri kugenda.

Iduka rinini ricuruza ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho, ameza ariho mudasobwa, hari impapuro ziri ku ruhande, hirya hari umuntu uhagaze.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye bikubiyemo imikandara y'abagabo ndetse n'iy'abagore, inkweto z'ubwoko butandukanye ziganjemo iz'abagore ndetse n'ibindi bintu.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, hari ibicuruzwa bimanitse mu tubati, ameza ariho mudasobwa, akamashini gatanga inyemezabwishyu, hirya ku ruhande hari umuntu uhagaze hari n'undi wicaye.

Iduka rinini riri muri sitasiyo yitwa Rubis, ricururuza ibyo kunywa n'ibyo kunywa, byiganjemo amata, imitobe y'ubwoko butandukanye, ibisuguti ndetse n'ibindi bintu.

Akabati gateretsemo amavazi menshi agiye arimo indabo z'ubwoko butandukanye, hirya hari akandi kabati, na ko karimo indabo.

Abantu bari mu iduka, bari guhaha, abakobwa ndetse n'abagabo umusore wicaye tubati turimo ibintu bitandukanye, ameza ariho amacupa n'udukarito.

Abantu bari mu iduka, umusore ukoreramo wambaye umupira usa oranje, imbere ye hari mudasobwa iri kwaka, abakiriya bahagaze, hirya hari abandi bantu, utubati duteretsemo ibikoresho bitandukanye bikubiyemo n'ibyo kurya.

Ikiganza cy'umuntu ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, harimo ifoto y'umwana witwa Manzi, wavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, mituweli yatangiwe mu Busanza.

Abantu benshi bicaye bambaye udupfukamunwa baje kwivuza, umukobwa uhagaze imbere y'abaganga nabo bambaye udupfukawa, ameza ariho mudasobwa bari gukoresha ndetse n'ibitabo.

Inzu isize irangi risa ubururu ku gikuta cyanditseho amagambo gira ubuzima, hari umugore uyihagaze iruhande ufite telefone mu ntoki, wambaye agapfukamunwa, hirya hari umuntu uhagaze, hari kandi abandi bantu babiri bicaye.

Ameza ariho ikarita ya mituweri y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ku ruhande hari umuntu uhagaze wambaye agapira hejuru karimo uturongo.

Inyandiko yamamaza ikigo gitanga ubwishingizi gikorera mu Rwanda, haragaragaraho inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho icyo kigo gikoreramo, hanze hari ubusitani bw'indabo.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ukorera ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda, afite indangurumajwi, hari ibintu ari kuvuga, inyuma ye hari icyapa cyanditseho icyo kigo cy'ubwishingizi, hari umusore uhagaze wambaye agapfukamunwa.

Abantu b'ababyeyi bicaye, inyuma yabo hari abandi bantu, buri wese afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yahawe, hari ufite iruhande rwe umwana, ku ruhande rwa ruguru hari n'undi ufite umwana.

Umugore uhagaze, witeye igitenge, yambaye igitambaro mu umutwe, imbere ye hicaye umugabo, ameza ateretseho igitabo n'andi makarita mu muryango hari kwinjira umugabo wambaye itaburiya isa umweru, akabati gateretsemo ibitabo n'impapuro.

Umwana wicaye ku bibero by'umuntu, wicaye ku ntebe, wambaye igitenge, afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihe umuntu agiye kwa muganga.

Inyubako ebyiri ndende zifite ibirahure byijimye imodoka nyinshi ziri kugenda amatara yo mumuhanda ubusitani buteyemo indabyo ibiti inzu ziri hakurya y'umuhanda.

Umugore wicaye, wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'umweru, yambaye isaha ku kuboko n'impeta, inyuma hari icyapa kinini k'ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda, ku ruhande hari akabati gahari.

Isoko ricuruza imbuto z'ubwoko butandukanye, amaronji, imineke, ibinyomoro, inanasi wotameloni ndetse n'izindi mbuto, hari umusore uhagaze uri iruhande rw'amaronji, hirya hari undi muntu, hari kandi n'amatara ari kwaka.

Umukobwa wambaye itaburiya n'umupira usa umutuku, ufite ishashi irimo inyanya, ari kubihereza umukiriya umuhagaze imbere w'umugabo, hari ameza ariho mudasobwa.

Akabati karimo ji z'ubwoko butandukanye, zimwe ziri mu dukarito, izindi ziri mu ducupa, hari izisa oranje, hari amacupa arimo ibindi bintu.

Umukobwa w'umuzungu uri mu isoko, afite akantu yifashisha ashyiramo ibyo yaguze, inyuma hari abandi bantu bahagaze, utubati turimo ibintu bitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, hari amakarito arimo amata, aya biswi, amacupa arimo inzoga z'ubwoko butandukanye, amasukari ndetse n'ibindi bintu.